Amacupa atatu ateretse ku rubaho, hasi hasa n'umweru, hejuru apfundikijwe umupfundikizo w'icyatsi, ku mpande hariho icyapa cyanditseho Ronda Torbo n'andi magambo y'umukara.

Iki ni ikirundo cy'ifumbire ry'imborera, rigizwe n'ibyatsi bitandukanye. Kirunze mu murima uri imbere y'ishyamba, ririmo ibiti bitoya n'ibinini.

Ikibaya kinini gihinzwemo igihingwa cy'ubwoko bumwe. Inyuma hariyo ibiti bitatu biri kugaragara, naho inyuma harenga hariyo ibindi biti byinshi bigufiya. Muri iki gihingwa hahagazemo umugabo uhetse ipompo, uri gutera umuti ibi bihingwa.

Umugabo uhetse ipombo yambaye ingofero mu mutwe, ipantaro y'umukara na bote ,n'umupira w'umweru ari gutera umuti igihingwa kimwe ,hirya hari ikindi gihingwa cy'ibishyimbo, inyuma hari umugabo uhetse igikapu uri kugenda.

Iki ni ikibaya giherereye mu cyaro, aho bakorera amafumbire y'imborera akozwe mu byatsi bitandukanye, hari abantu bane abagore batatu n'umugabo umwe, hari ikidomora bashyiramo amazi, inyuma hari insina, hari n'ibigori bihinze, hakurya har'agasozi kariho ibyatsi bitandukanye.

Ibiribwa bitandukanye harimo amafi atatu, imwe nini n'ayandi abiri. Hari n'ibisate bitatu bya oranje, iruhande hari urunyanya rumwe ruteretse ku nyama, harimo na sereri.

Injanga z'ubwoko butandukanye, ubwoko bumwe n'utujanga tureture tw'umukara, turi mu gipaniye cy'ubururu, ubundi ni ubujanga bubyibushye buri mu gipane cy'umutuku, inyuma hari andi mapineye atatu n'igitebo kimwe kirimo amabuye.

Icyuzi cy'amafi cy'igicukurano kiri mu kibaya hagati y'imisozi. Ku nkengero z'icyuzi, hari umucaca n'ibijumba bihateye. Hakurya hari umusozi, hariho umukingo n'inzira inyuze mu musozi, hari n'ishyamba. Ruguru hariyo inzu zitandukanye zubakishijwe amategura.

Ikiyaga kirimo amazi y'ubururu, mo hagati harimo ibirwa bibiri binini birimo utwatsi dutoya n'ibiti bigufi. Iruhande hari akandi karwa gato, ku nkombe z'ikiyaga hari imisozi iriho ibyatsi n'ibiti bitoya.

Igice cy'inyama y'ifi hariho icyuma hejuru. Biteretse ku isahani ikozwe mu giti. Iyi fi isa n'umweru bayikuyemo urutirigongo, nta kagufa na kamwe kari kugaragara.

Ifi yokeje ihiye ikaswe umurizo. Ikataguwemo uduce twinshi. Iruhande rwayo hari ibirungo bitandukanye. Hari ibice by'inyanya na sereri yuzuye, n'izindi puwavuro zikataguye. Birambitse ku kabaho, nako karambitse ku tubaho twinshi, hagati harimo utwanya dutoya.

Icyuzi cy'amafi cyuzuye amazi hejuru hari amafi aziritse hamwe ari kwerera hejuru y'icyuzi. Mu cyuzi hashinzemo agati ku nkengero z'icyuzi hari ibyatsi.

Amafi atatu manini, aziritswe n'umugozi umwe, akaba arikwerera ku giti, hasi hari ikindi giti, inyuma y'igiti kimwe hariyo ibyatsi by'icyatsi.

Ibyuzi by'amafi bibiri byuzuye amazi. Ku nkengero hari ibiti, ibicucu by'ibiti biri kugaragara mu mazi ari mu byuzi, hagati hahagaze umugabo n'igicucu cye kiri kugaragara mu mazi ari mu cyuzi. Hakurya hari ibiti bitandukanye n'ibyatsi.

Ikiyaga kinini, ku nkombe hari ubwato butatu buziritseho indobani ziri mu mazi. Iruhande hari abagabo batanu bari ku nkengero mu mucaca. Harunze amabuye, hari n'igiti kiri ku ruhande. Hakurya hari umusozi urambaraye.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'ibirayi, hakaba harimo ibiti bishinze imishingiriro cyangwa imihembezo, harimo n'ibigori byumiyemo. Iyi foto igaragaza ko ibirayi bishishe byitaweho neza.

Umugabo wambaye bote n'ipantaro y'umukara n'umupira w'umuhondo, ashize inkoni ku rutugu ashoreye inka zifirizone zifite amabara y'umweru n'umukara. Inka imwe nini n'inyana yayo, imbere hari umugabo ufite indobo iruhande rw'inzira hari imitabo irimo ibyatsi. Hepfo hari ikigorigori gihinze hari n'igiti kirekire cyegetseho imishingirizo.

Isambu isaruwemo ibigori, iherereye mu Karere ka Musanze mu cyahoze ari Ruhengeri, inyuma yayo hari amazu atuwemo n'ishyamba hakurya hakaba ikirunga cya Sabyinyo.

Umurima uhinzwemo ibirayi bimeze neza. Ibirayi birashishe cyane, bitangiye kuzana uruyange. Inyuma hariyo ibiti bine bikuze, hariyo n'urutoki n'inzu iri mu rutoki hagati.

Umurima uhinzwemo imboga zo mu bwoko bw' ibitunguru, biri ku muronko ni imitabo ntabwo uy' umurima ubagaye, hirya hari imihati igabanya imirima, inyuma hari umurima urimo urutoki ndetse n' avoka.

Isambu cyangwa umurima urimo ibyatsi ukaba urimo utugungiro, haruguru hari fondasiyo yubakishijwe n'amabuye, inyuma hari ibiti bitandukanye muri uyu murima kandi, harimo utwatsi twumye.

Uyu ni umurima w'ikigorigori, hasaruwemo igihingwa cy'ibinyampeke cyitwa ibigori. Inyuma hariyo ishyamba, n'ibiti bitemye ariko biri gushibuka.

Umuririma uhinzemo ibirayi byenda kwera, hamezemo ibyatsi bya kimari, mbere hari hahinzemo ibigori biruma barabisarura ibigorigori bimwe barabitema ibindi birahagaze. Inyuma hariyo ibiti birebire no ku mpande.

Uyu ni umusaruro ushimishije w'ibijumba by'ibituburano. Umubare w'ibijumba ni bitandatu uri ku mugozi umwe, babikuye mu butaka busa n'umukara.

Umusaruro w'ibirayi birunze hamwe imbere hari icyapa kiriho imibare iranga ibyo birayi. Haruguru y'umukingo hahagaze abagabo n'umufuka wuzuye ibirayi uhateretse.

Abantu bari kugenda mu nzira bikoreye ibitebo birimo icyayi basoromye, hari n'ibitebo byubitse hejuru y'ibitebo bikoreye iruhande hari umugabo wicunze umutaka wambaye ikote ryo kugenda hepfo hari umurima munini w'icyayi.

Uyu ni umusaruro w’imbuto z’amapapayi ya kizungu. Ni imbuto eshatu, rumwe rukasemo kabiri rusa umuhondo. Imbere harimo imbuto z’umukara. Izi mbuto z’amapapayi ziteretse ku bibabi by’ayo mapapayi.

Igihingwa cy' ibigori bihinze bitoshye; ikigori kimwe cyahetse bibiri gifite n' umusatsi, n' uruyange amababi asa n' icyatsi, ibi bigori biregeranye cyane.

Uyu ni umufuka urimo umusaruro w'imboga zo mu bwoko bwa karoti, uruzuye cyane ukaba usokeshejwe ibisate by'imigano. Inyuma hariyo ibyatsi.

Abantu batatu bari mu kibaya bahagaze mu nzira, iruhande rwaho harambuye ihema risutsweho imbuto hari n'imifuka icagase, hakurya hari urutoki n'amazu ari mu rutoki hamwe n'ibiti birebire bihari.

Inzu ya girini hawuzi yubakishijwe ibyuma n'amashashi. Mo imbere harimo imitabo myinshi. Harimo umugabo n'umugore bambaye amasarubeti y'umweru. Umugore yambaye agashashi mu mutwe. Harimo imbuto zihinzemo izikuze, n'iziri kumera.

Imboga nini z'amashu zirunze ku meza akozwe mu biti n'imbaho. Munsi y'ameza hateretse agapaniye k'imishumi gafite amabara mu mpande y'ubururu n'umutuku. Hirya hahagaze umugore ufashe mu mifuka inyuma no mu mpande hari ibineza bikozwe mu biti.

Ifu y'ibinyampeke bivangavanze, iri mu mufuka uhinnye kugeza muri kimwe cya kabiri. Uyu mufuka ugizwe n'amabara atandukanye.

Iki ni igiti cya avoka y'imbangurire yo mu bwoko bwa buheri, irimo imiteja itandukanye, iminini n'imitoya, n'amatabi matoya cyane, harimo n'amababi makeya.

Ikibaya gihinzwemo ibigori. Igice kimwe kirabagaye ikindi ntabwo kibagaye. Harimo abahinzi bahetse amapombo mu mugongo, bari gutera umuti wica udusimba. Hakurya hari umusozi uriho ishyamba.

Imifuka umunani yuzuye ibirayi ifunze neza iruhande, hari undi mufuka wa cyenda wahirimye urimo ibirayi bikeya , biteretse ku mbuga . Hirya hari inzu igaragara igice cyo hasi ifite urugi rw'ubururu irakinze.

Igihingwa cy'inyanya ndende, harimo izitukuye n'iz'imiteja, nko hagati hari umugabo wambaye bote n'isarubati, afashe ipaniye mu ntoki ari kugenda asoroma izeze, inyuma hari n'abandi bari gusoroma, izi nyanya zirashingiriye ku biti.

Umugabo wambaye ikoti ry'umutuku n'ipantaro n'ishati y'umweru yambaye ingofero mu mutwe ari guseka cyane, ashyize isuka ku rutugu y'umujyojyo, inyuma ye hari ibishyimbo bishingiyeriye byamaze kurira ibiti, iruhande hari ibyatsi bya kameroni, inyuma hari inzu isakaje amategura, iri kugaragara igice cyo hejuru.

Umusaruro w'ibirayi birunze mu mufuka bikaba bishonyye, bikaba bitondetse ku muhanda. Inyuma hari ibishyimbo bishingiriye byazamutse ku biti, hakaba n'ibiti bibiri bya gereveriya biteyemo, inyuma hakaba hari amazu abiri n'ikibaya kitagaragara neza kiri hakurya.

Igikoni cyubatswemo rondereza yometseho amakaro. Hateretseho amasahani ariho ibirayi n'inyama byokeje n'ibitunguru bakataguriye hejuru. Iruhande hari ikirushi gitobaguye. Inyuma hari isafuriya irimo isosi, hirya hari agashashi karimo umunyu, n'agasahani hamwe n'inyanya. Imbere hahagaze umugabo.

Iki ni igiti cya avoka gifite amatabi ariho avoka zikomeye n'izidakomeye , imwe ifite ubusembwa , harimo n'amababi ndetse na avoka zeze.

Abagabo batatu bahagaze mu murima uhinzwemo ibigori . Umwe yambaye ishati y'icyatsi , undi ishati y'umuhondo , undi agapira gaciye amaboko karimo uturongo dutambitse . Bafatanye ibiganza bigaragaza ubufatanye barishimye.

Ikiraro cy'inkoko cyubakishijwe imbaho, gisakaje amabati. Harimo inkoko z'umweru, zimwe zibundamye, izindi zihagaze. Harimo indobo ziriho ibyo kurya byazo n'ibyo kurya bisandaguje mu murama.

Igihingwa cy'urunyanya gifite amatabi abiri, itabi rimwe ririho inyanya zitukuye ebyiri ntoya n'urundi runini ruriho akantu k'umweru, irindi tabi ririho ibitumbwe by'inyanya hasi hari amababi y'inyanya yumye, inyuma hari utwatsi tw'icyatsi dutoya turi kurandaranda.

Abantu batandatu bunamye. Harimo umugabo umwe n'abagore batanu, abagore babiri bahetse umwana, bunamye mu murima w'amashu, bari kuyamenera. Inyuma hariyo ibiti hamwe n'ibishyimbo, hamwe n'insina.

Abahinzi bari mu ntabire iri mu kabande, bamwe barunamye abandi barasutamye bari gutera imbuto mu mitabo ihari. Ku nkengero z'iki kibaya harimo ibiti, ndetse n'imisozi miremire irimo urutoki ruke ruke.

Isoko rifite udusima dutandukanye , ricururizwamo imbuto n'imboga. Mu mboga zihari , hari karoti , imiteja , intoryi , inyanya . Naho mu mbuto hari amaronje ,amacunga n'imyembe.

Igiti cy'umwembe gifite agatabi kari imbere, gafite amababi yo hasi yicyatsi, naho ayo hejuru ku kumutwe asa n'umutuku, inyuma hari ibibabi bitari kugaragara neza, hirya hari akazu k'ubururu gakinguye.

Ikibaya kinini cyane gihinzwemo igihingwa k'ibigori, harimo umuntu uri kugenzura imikurire y'iki gihingwa k'ibigori, hakurya hari umusozi muremure udahinzwe, ndetse no muri iki kibaya hari ahantu hari umusaruro bigaragara ko ari umusaruro mukeya.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati iciye amaboko ifunguye imbere, n'akagofero k'icyatsi. Ari kwatsa imashini ikata ubwatsi. Imbere hari ibiraro byubakishijwe imbaho n'ibiti, hakurya hari amatungo atari kugaragara neza. Inyuma hari amabuye y'amakoro, iruhande hari indobo iri kugaragara umufuniko.

Ikibaya kirimo umurima uhinze intabire, hari abagabo bari gutera ibirayi. Umugabo umwe afashe isuka yakuyemo umupira hejuru yakubise isuka mu butaka arahagaze, undi mugore uri hirya yambaye umupira n'ingofero afite isuka mu ntoki. Inyuma hari abandi batatu bari gutera ibirayi, hakurya hari abantu bahagaze mu gatsinda hepfo y'urutoki.

Igitoki kinini cy'inshakara kirambitse ku mbaho gihaguyeho, cyegetse ku nzu yubakishijwe amatafari idahomye, iri kugaragaza igice kimwe cy'idirishya kiriho akantu k'umweru.

Umuntu wicaye uri kugaragara igice cyo hejuru n'amavi. Yambaye umupira w'umutuku, yambaye n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso gushinze ku ivi. Imbere ye hari umufuka n'imbuto nyinshi, harimo puwavuro, amacunga, n'imyembe.

Abantu batandatu bahagaze, abagore bane hagati n'abagabo babiri kuruhande. Umugore umwe uri hagati yiteze igitambaro mu mutwe, umugabo uri kuruhande arambuye ikiganza imbere y'umugore wambaye agapira k'umweru, bahagaze mu byatsi byumye. Inyuma yabo hari ibyatsi bikuze hakurya hari umurima urimo insina.

Ikibaya gikorerwamo ubuhinzi bw'imboga. Hariho umudamu n'abapapa babiri bari gukora neza . Izi mboga inyuma hari ikirere cy'ubururu, ndetse n'umweru.

Uyu ni umusaruro w'imboga zo mu bwoko bw'intoryi, wakusanyirijwe mu ipaniye irimo utwenge, inyuma hai ind paniye y'umutuku irimo ubusa, iteretse inyuma y'ipaniye yumukara.

Ubwanikiro bw'ibigori bwubatswe mu biti bisakaje amabati. Ibigori bipfundikanye, bihanitse kuri buri ngazi. Hagati harimo ikirongozi kirimo ubusa, aho abanyamaguru banyura bari guhanika ibigori. Hirya hari yo umuryango ukinze, ufite urugi rw'ibara ry'ubururu.

Igihingwa cy'ibireti gihinze mu kibaya kinini cyane . Ibireti bisa n'icyatsi bikaba bifite utuyange tw'umweru n'umuhondo mo imbere . Inyuma hariyo urubingo rutoya ruri ku murongo, hamwe n'ibiti birebire.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'ibijumba, hakaba hari isuka imaze gukoreshwa hakurwa ibijumba, hakaba hari ibiheke bitatu bigaragaza ko ibijumba byeze neza cyane.

Umugabo wambaye ikabutura n'ibirenge, ari gusunika igare riri mu muhanda wibitaka. Ripakiye ibitoki byinshi. Hirya y'umuhanda hari borudire, hirya ya borudire hari amaguru y'abantu bahagaze.

Isoko ryubakishijwe ibyuma. Igice kiri kugaragara kiriho ama etajeri ariho imboga zitandukanye, harimo intoryi, puwavuro, inyanya, amashu.

Umurima uhinzemo imbere hari kugaragara intabire. hateyemo amatunda, ari kurandaranda ku biti bishinzemo. Amatunda amwe afite imiteja yarabye atangiye kuma.

Uyu ni umugabo wambaye isurubeti n'ingofero, afite inkoko mu biganza ari kugosora imbuto za kawa. Imbere ye hari ibiti bya kawa mu murima munini.

Umurima uhinzwemo imboga z'amashu , urimo abahinzi babiri , umugore n'umugabo . Bateruye urumashu , Inyuma hariyo umusozi uriho ibiti bitandukanye , n'ibicu by'umweru hejuru.

Ibihingwa bya makadamiye, ndetse n’amatunda n’insina. Hariho umuhinzi mworozi uhagaze mu murima, afashe ku giti cya makadamiya. Hakaba hashinzemo ibiti by’imishingiriro, wo kugira ngo amatunda azarandarandeho, ndetse harimo n’igihingwa cy’iteke.

Abagore bahagaze muntabire, bari guhinga bakenyeye ibitenge biteze n'ibitambaro, bazamuye amasuka bari guhinga amatarasi, inyuma yabo hahagaze abantu babiri bari gukoresha, hari n'abandi bagore benshi n'abagabo bari guhinga amatarasi, inyuma hakurya hari umusozi uriho ibyatsi bike n'uduti duke.

Izi ni imbuto zo mu bwoko bw'amaronji zimwe zireze izindi zijya kwera, hari kugaragara umubare w'imbuto nyinshi ndetse n'amababi y'igiti.

Ni imisozi yo mu Rwanda iteyeho igihingwa cy'icyayi, igihingwa ngengabukungu. Hariho abahinzi bari gusoroma icyayi bahetse ibitebo mu mugongo, bari kujya bashyiramo ibyayi basoromye. Hakurya hari umuhanda unyura haruguru, aho imodoka zinyura zigiye gutwara iki cyayi.

Umugore uhagaze witeze igitambaro cy'umweru mu mutwe. Yambaye ishati irimo imirongo imanuka y'umweru n'umukara, yashinze isuka yishingikirije umuhini ku kananwa, ari guseka. Ahagaze mu isambu, inyuma ye hari undi mugore, hari n'urutoki runini. hakurya hariyo ibiti n'inzu ziri kugaragara ntoya.

Amateke bakuye bacaho amababi maze barayaharura, barayaronga, abiri ari kugaragara neza, umutwe wayo hariho umutuku naho irindi teke rimwe barikasemo ibice bitatu, byose birambitse ahantu.

Abaturage harimo abagabo n'abagore n'urubyiruko, bari gukora akarima ka kijyambere, hasi hari ibyatsi, bagashyiraho ifumbire hejuru, bagashyiraho n'ubutaka. Inyuma hari umusozi barimo gushushumuraho ifumbire.

Imboga zo mu bwoko bwa puwavuro, nyinshi cyane zirunze mu ibase y’ubururu; izindi ziri mu ibase y’icyatsi. Hirya hari udufungo twa seleri, hirya hari ikarito iteretseho umufuka uriho karoti. Iruhande hari indobo ndende y’icyatsi n’amakarito afunze.

Ikirahure cya tereviziyo. Kiri kugaragaramo umugabo uri mu gisambu yunamye, yambaye ikote n'akagofero. Hakurya hari imisozi miremire n'umubande urimo ibiti bigufi, igihuru, insina batemye. Ku mpande z'ikirahuri cya tereviziyo hari amagambo y'igice atagaragara neza.

Ingano zo mu bwoko bwa kirihura. Zirahuye, zisutse ahantu hamwe. Harimo izifite impeke nini, n'izifite uduheke dutoya. Zisa n'igitaka, izindi zisa n'umweru. zanitse ku ihema ry'umweru.

Imboga z'ibishyimbo by'imiteja birunze mu gikarito kinini gifite ibara ry'icyatsi ,n'imirongo y'umweru imanutse hirya hariyo indi mirongo y'umweru n'iy'icyatsi iruhande hari agakarito kahateretse k'umutuku.

Ibigori bihanitse mu byiciro bitatu. Buri bigori biratonoye, amababi bakayazirika hamwe, maze bakabihanika. Hirya y'iyi nzu hari ibyatsi biri kugaragara ibice, hasi hari ikirongozi banyuramo bari guhanika ibigori.

Imyuko ine ibajwe mu biti ifite impande ebyiri, uruhande rumwe rurafukuye urundi runyunyutse. Uruhande rufukuye rurimo imbuto zitandukanye, umwuko umwe urimo ibigori, undi urimo inzuzi, undi urimo ibishyimbo.

Umusaruro w'ibinyampeke bisandaguje ku mpapuro ziri ku murongo, imirongo ibiri. Ku iruhande hahagaze umugore wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'ubururu n'isaha mu kuboko, ari gukora muri za mbuto. Hakurya hari agasakame n'abandi bagabo bahagaze bari kugaragara ku gice cy'inda.

Ikibaya kirimo abagore barindwi batatu bunamye umwe ahagaze, abandi batatu bikoreye amabase arimo ibishingwe . Inyuma yabo hari umuhanda n'igiti kiriho insinga z'amashanyarazi, inyuma handitse inyuguti ya ra na wa.

Igihingwa cy'amashaza ahinzwe mu butaka bw'umukara burimo amakoro, ku mpande hashinze ibiti hakaba haziritseho imigozi amashaza ari kurandarandaho, ay'amashaza atangiye kuzana imiteja harimo n'utuyange dutoya.

Ibyibo bibiri biteretse ku gitambaro cy'umuhondo, ikibo kinini kirimo ibishyimbo by'umutuku, hariho n'agapapuro kanditseho nyiramagori, naho ikindi kibo gitoya gifite amabara y'ubururu, kirimo ibishyimbo by'umukara, cyanditseho umwirasi, inyuma hari igice cy'umugore kirikugaragara uhagaze.

Umurima uhinzemo amasaka akuze atangiye kuzana imiterero. umuyaga wahushye amasaka ahengamye imbere hari isambu irimo ibyatsi.

Umugore yicaye yambaye ijipo n'isengeri n'umusatsi uzinze, afite ihundo ry'ikigori ari kurihungura imbere ye hateretse ibase y'icyatsi aho impungure ziri kugwa, iruhande hari ibigori n'ikirenge cy'umuntu wicaye, inyuma hari ibyatsi ndetse n'imbuga.

Imbuto zitandukanye zimwe zarameze bazikuraho imizi, izindi nibwo ziri kumera, izindi ziracyafite imizi yazo ziri mu ibase mu gitaka. Iruhande hari umwuko ukoze mu giti uriho imbuto zitari zamera, hirya hari undi mwuko uriho imizi bakuye ku mu...

Inzu yubakishijwe ibyuma bigonze hejuru, ikabi isakaje ishashi. mo imbere harimo ibirongozi, mu birongozi hateretsemo ibikorote bya pulasitiki bisa n'icyatsi n'ubururu, Hariho udutanda turiho ikawa.

Umuntu uhagaze yunamye wambaye ipantaro n'ishati bikozwe mu bitenge, n'ingofero. Afite intara yuzuye impungure afite n'icyibo ari kuyoreramo impungure, iruhande hari igitebo kirimo imifuka mo imbere iruhande hari imifuka irimo impungure zicagase, hari na moto iparitse iri kugaragara mu mupine y'inyuma.

Umurima uhinzwemo amasaka, amahundo agaragara ni ay'umutuku ni manini cyane, igice cyo hasi cy'ibikenyeri gisa icyatsi inyuma hari ikirere cy'ubururu n'umweru.

Aba ni abagore batatu babiri bo ku mpande biteze ibitambaro mu mutwe bakenyeye n'ibitenge bafashe intara ziriho ibinyampeke. Uwo mugore uri hagati ibiganza bye bifashe imbuto zo kuri buri ntara. Inyuma hari isambu ishingiriwemo ibiti n'ibishyimbo byumye, harimo n'utwapa dushinze tugaragaza amoko y'izo mbuto zahahinzwe.

Umugore uri kugaragara igice cyo hejuru, yambaye ibitenge bisa, afite n'imisatsi ku mutwe miremire. Ikiganza kimwe gifashe terefone, ikindi gifashe ubunyobwa buranduye. Inyuma ye hari ibyatsi birebire hamwe n'ibiti birebire, ahagaze mu murima baranduyemo ubunyobwa.

Inka y'ibihogo ifite amahembe bazirikishije imirunga, iri mu gipangu cyubakishijwe ibyuma nta sima irimo. Abaveterineri batandukanye bari kuyivura, uwo mugore ari kuyitera urushinge.

Inka y'imbyeyi iryamye, ifite amabara y'umweru n'umukara. Imbere yayo hari inyana yayo na yo ifite ibara ry'umukara mu mugongo, ku maguru akaba ari umweru. Iri kurisha. Iruhande hari igiti gitambitse, n'inyuma hari igiti gihagaze.

Iki ni ikibuga cyahuriwemo n'inka ziganjemo ifirizone z'amabara y'umweru n'umukara, harimo abaveterineri bari kugenda bari kuzivura, hirya hari itente yubatswe isakaye, irimo abantu bitabiriye uyu muhango wo kuvura izi nka.

Ikibuga kinini kizengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma, harimo amakoro. Hahagazemo abagabo n'abagore bafite amatungo, intama z'umweru. Inyuma hari inzu imwe ndetse n'isambu irimo ibishyamba.

Iki ni ikiraro cy'ingurube cyubatswe mu mbaho. Harimo ingurube eshanu zifite ibara ry'igitaka, ziraryamye, zirasinziriye nta n'imwe ihagaze.

Ubworozi bw'intama zigezweho za kijyambere zo mu bwoko bw'amaderine, umubare w'intama ni ebyiri, imwe iri kurisha ubwatsi butoshye, indi irahagaze iri kureba inyuma.

Utwana tw'ihene tubiri kamwe karahagaze kari kureba iri imbere yako, akandi karunami kari kurisha utwatsi dutoya. Duhagaze mu kibuga kinini kirimo utwatsi turi kumera ari dukeya. Hakurya hariyo ibiti bigaragara igice cyo hasi.

Ingurube nini y'umweru inyuma ku muririzo hasa n'umukara iryamye yubamye, iruhande rwayo haryamye ibyana byinshi. Iryamye mu byatsi by'ibarizo, iri mu kiraro cyubakishijwe imbaho n'ibiti. Hanze hari abantu bahagaze barikureba mu kiraro n'ibindi biraro byinshi.

Ingurube yo mu bwoko bwa kijyambere yabwaguye ibyana icyenda. Ikaba iryamye hasi iri kubyonsa, iri mu kiraro cyayo gifite umuryango uriho urugi rw'imbaho.

Impfizi y'ingurube yazinze umurizo, iri kureba hirya isa n'umweru, iri mu kiraro cyubakishije imbaho ,isakaje amabati iruhande rumwe ntabwo rusakaye imbere, hari abantu ,umwe yambaye umupira w'umutuku ,undi yambaye umupira w'umutuku na we ,imbere hariho ijire ya tigo.

Iki ni igipangu cyubakishijwe ibiti, kirimo inka zitandukanye iy'umukara, iy'amabara y'umweru n'umukara, n'indi y'umutuku itari kuboneka neza. Hanze y'igipangu hari abantu bambaye ingofero, abandi bambaye udupira tw'umweru bari kuzivura.

Inzu y'amatungo igizwe n'ibiraro bitandatu. Ikiraro kimwe kirakinguye, ibindi birakinze. Ibiraro bitatu birimo inka, ku ruhande hari akazu k'umuzamu gakingishijwe urugi. Ibi biraro bizengurutswe n'uruzitiro rw'amatafari, imbere yaho hari umurima utewemo ubwatsi bwa kameroni.

Ikiraro cy'amatungo magufi yo mu bwoko bw'ihene z'umukara cyubakishijwe ibiti gisakaje amabati, imbere yacyo hari abantu babiri umugabo n'umugore inyuma y'abo bantu hari insina ,hakaba n'umusarani wubakijwe amatafari ya rukarakara ukaba asakajwe amategura.

Umugore n'umugabo bahagaze bari guseka, bambaye amataburiya y'umweru, umugabo ni muremure, arabyibushye, yambaye amataratara, ateruye icyana cy'ingurube cy'umweru, cyahinye umurizo, ku ntoki z'ikiganza cye yambaye impeta, umugore ari gufungura igipesi, inyuma hari urukuta rw'amabuye, hirya hari ikidomora cy'igiparasitike cy'ubururu, hamwe n'urwego rugufi.

Abaganga babiri umugore wambaye itaburiya y'umweru, ufite imisatsi miremire ku mutwe, n'icyuma gipima mu gutwi . Umugabo we yambaye itaburiya y'umweru n'isaha ku kuboko n'icyuma gipima mu ijosi. Bafite imbwa bari kuvura. Inyuma yabo hari urukuta rw'umweru.

Ni inka ya kijyambere yo mu bwoko bw'imfirizone, ikaba ihagaze mu isambu cyangwa se mu rwuri ikaba ikebutse ireba inyuma. Ikaba yaritaweho neza n'abaveterineri ikabona ikigabo gihagije ndetse ikaba ibona n'imiti ihagije.

Umugabo wambaye ingofero uteruye ihene y'igitaka ifite akabara k'umweru mu mugongo. Afashe agakoni mu kiganza kimwe, iruhande rwe hahagaze abantu benshi harimo umugabo n'umugore bafashe imirunga, hari ikiganza kiri kureguka gifite amafaranga harimo inote za bitanu. Inyuma hari umuzungu upfunditse imisatsi nyuma , uri kureba inyuma . Inyuma y'umuzungu hari amahene ari kugaragara igice cy'inyuma.

Ibyana by'ingurube umunani, biryamye mu kiraro, bisa n'umweru, harimo icyana kimwe gifite amabara y'umweru n'umukara. Ikiraro cyubakishijwe imbaho, hasi hariho sima.

Ikibaya kirimo igikuyu, harimo inka zitandukanye, inka iri imbere igaragara cyane ni igaju. Ifite amahembe yizirinze ahurira hejuru. Hakurya hari yo umusozi uriho uduti dutoya.

Ikibuti cyororerwamo inkwavu gikozwe mu mbaho, amadirishya yacyo arakinguye inkwavu ziri kureguka, imbere hahagaze umugabo wambaye ikabutura na bodaboda, ufite umuhoro ari gutema amakoma.

Inkoko nyinshi zisa n’umutuku. Iziri ku murongo wo hasi zigaragaza amasunzu gusa. Izikurikiyeho zihagaze ku giti kimwe, ziri ku murongo, imwe ireba hirya, izindi zireba imbere. Inyuma hari izindi nkoko zitari kugaragara neza.

Inka y'umukara ibyagiye, ipfukamye, ifite amahembe, yambaye ikiziriko mu ijosi. Hari abantu bari kuyitera urushinge, harimo umuzungu n'umukobwa ufite imisatsi, n'umugabo wambaye i sarubeti uyifashe. Inyuma hari ibyatsi n'imodoka iri kugaragara igice cy'ibirahuri, n'amakarisori yo hejuru.

Akazu gatoya kubakishijwe ibiti gahomeshejwe ibyondo gasakajwe amabati, iruhande hari ikiraro cyubakishijwe ibiti harimo inka, hanze haziritse ihene ebyiri iy'umukara n'iyigitaka iruhande hari insina, ku mbuga hari inkoko ziri ziri kuhatora zisandaguje hari n'ibyatsi ihene ziri kurisha. Hirya hari umugabo uhagaze yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, y'amaboko maremare inyuma hari insina.

Inyamaswa y'i gasozi iri kugaragara igice cy'umutwe n'igihimba. Iri kureba, ifite amatwi arebye hejuru n'ubwanwa. Ihagaze mu byatsi, inyuma hari umuhanda w'igitaka.

Inyamaswa y'igasozi yo mu bwoko bw'inyoni ifite umunwa muremure, ifite ijisho ry'umukara, imbere hayo hasa umuhondo, amaguru ni umutuku, amababa ni bulesiyeri ihagaze ku giti.

Inyamaswa y' igasozi yo mu bwoko bw'inyoni, ifite amababa y'umukara, iri kureba irasamye. Ihagaze ku itabi ry'igiti hejuru hari irindi tabi, imbere yayo hari ibyatsi bitari kugaragara neza.

Inyamaswa zo mu gasozi , zo mu bwoko bw'inyoni , ihagaze mu giti , mu duti dutoya ikaba iri kwitegereza ngo igire icyo ifata , cyo kurya.

Inyamaswa y'i gasozi yo mu bwoko bw'ibiguruka iri kuguruka mu kirere, amababa maremare yayamanuye hasi, umutwe wayo ni mutoya ufite akabara k'umweru ku ijosi, igicucucucu cyayo kiri hasi.

Iyi ni inyamaswa y'igasozi yo mu bwoko bw'injangwe, iteye intambwe ariko ikebutse ireba inyuma. Ifite ubwanwa burebure, n'amabara y'umweru n'umukara n'ikigina.

Umwana wambaye agashati k'umweru, ateruye umutubu yafashe. Amaguru yayahuje afata n'akaguru k'imbere kamwe ukwako. Inyuma hari inzu yubakishijwe imbaho, hasi hari amakoro. Iruhande hari agacupa karimo ubusa, n'inzu iri kugaragaza ibati agace gatoya.

Urukwavu ruhagaze mu kinani rurasutamye, ruri kureba amatwi rwayabanguye hejuru, inyuma hari utwatsi tureture no ku mpande hari utundi twatsi tugufiya, rusa nk'aho ruri kurisha.